Imbaga y'abantu harimo abagore, abagabo bicaye mu cyumba kimwe bari mu nama, hari abari kwandika ibiro bavugirwa muri iyo nama ndetse baninywera amazi ari mu kirahure ku meza.

Umugabo ufite microphone, akaba ari mu nama ari guhugura abitabiriye inama ibigendanye n'i nibyo bakora, kandi afite ahantu ari kwandika ibyo ari kubabwira kugira ngo babashe kubifata neza.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bari mu nama yiga ku bintu bigiye bitandukanye yitabiriwe abagabo, abagore, urubyiruko, amadini n'amatorero harimo n'umuntu wambaye ingofero yo muri ayisiramu kandi akaba yambaye n'ikanzu yabo.

Inama yitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye. Harimo abagabo, abasore ndetse kandi harimo n'abakobwa. Bafite uducupa turimo amazi ndetse ubona ko bishimye bakurikiye inama iri kubera muri icyo cyumba.

Umugabo bafite mikorofone ari kuvuga ibigendanye n'ibyabateranyije aho ngaho kuko icyahabateranyije ni inama yahabereye ndetse abantu bamwe barahagaze abandi imbere ye baricaye kandi higanjemo urubyiruko rw'abasore n'abakobwa n'abantu bakuru.

Inama yateranije hamwe abantu benshi higanjemo urubyiruko rw'abana ndetse bateraniye mu cyumba kinini cyane cyakira abantu benshi kandi ni abantu bishimye harimo n'abari kuvuza amahoro.

Umugabo w'igikara wambaye neza umeze nka nyakubahwa nk'umuntu ukomeye cyane muri leta, ari gutanga ikiganiro ku byerekeye n'imiyoborere ndetse kandi n'imibereho myiza mu karere.

Abanyacyubahiro, higanjemo abagabo bakuru ndetse n'abagore ndetse kandi n'urubyiruko, bitabiriye inama y'inteko y'umuryango ndetse ni njyanama.

Abantu benshi cyane, bicaye munsi y'ihema ndetse n'abandi bicaye imbere yabo hatari ihema, barakurikiye inama yabaye ndetse ni abagabo n'abagore bitabiriye basa neza.

Abana batoya bari ku rubyiniro bakaba bambaye impuzankano bari kubyinira abari bitabiriye ikirori cyabo, ndetse kandi bambaye impuzankano nk'abantu bari huriye ku kintu kimwe.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye hamwe harimo umugore uri gutanga ikiganiro, akaba yegeranye n'abagabo babiri kandi inyuma yabo hari urubyiruko rw'abakobwa ndetse n'abandi inyuma yabo kandi hari imodoka ziparitse.

Ahatangirwa serivisi z'inama, ni mu cyumba kinini giteraniyemo abantu benshi bagiye batandukanye, higanjemo urubyiruko cyane abasore n'abakobwa. Hahagurutse umukobwa ufite mikoro, ari gutanga igitekerezo.

Abagabo batatu, harimo umusirikare, ndetse kandi harimo n'umupolisi. Umupolisi w'inyenyeri, ndetse n'umusirikare ukomeye cyane, ndetse bari mu nama, imbere yabo hari amacupa arimo amazi.

Umugore usa neza wambaye neza ari mu bitabiriye inama, ari kumwe n'abandi harimo abagabo basa neza bambaye neza kandi bakurikiye inama iri kubera muri icyo cyumba.

Abantu bateraniye mu cyumba cy'inama bakaba bafite amazi yo kunywa ndetse kandi hari n'abafite za mudasobwa bari gukoresha bari kwiga ku bigendanye no kongera ndetse bigendanye n'ibyo bakora.

Inama iri gutangwa n'umuyobozi ushinzwe urubyiruko, kandi akaba ari umugabo ukomeye cyane w'umunyakubahwa, ari ugutanga ikigisho abwira urubyiruko uti rubyiruko menya amateka yawe, ni insanganyamatsiko irikwigwaho.

Umubyeyi urimo gusya, arunamye ndetse yashyize urusyo ku musambi kandi afite agaseke ari gukuraho ibyo ari gusya hanyuma agasya bisanzwe.

Umusore w'intarumikwa wambaye imyenda ndetse y'umweru kandi akaba yambaye n'umwitero wakenyewe mu nda ye, kandi akaba afite inkoni ari kuvuga ibigendanye n'umuco Nyarwanda. Inyuma ye hari abitabiriye bafite n'ibyo kunywa bari kumwitegereza.

Ibicuma ndetse n'inkongoro n'ibindi bintu byose nk'imisambi, bigaragaza umuco wa kinyarwanda wakoreshwaga kera kandi kera kubera ko habagaho inka, bafataga izo nkongoro bagashyiramo amata, ibivuzo na byo bikajya muri utwo ducuma.

basore b'intarumikwa basa neza bambaye neza ndetse kandi bafite inkoni z'ubukwe n'imyambaro bambaye ni iy'ubukwe cyane cyane yo gusaba bambaye neza cyane n'ibikomo mu ijosi.

Abagabo basa neza bambaye neza bari ku murongo bariho barabyina indirimbo za kinyarwanda bambaye imyitero ndetse hari n'abambaye amayugi akoreshwa mu kubyina indirimbo nyarwanda.

Umukobwa uri kubyina imbyino za kinyarwanda ari kumwe na bagenzi be, bari kuzamura amaboko bishimye cyane babyinira abateraniye aho ngaho, ni indirimbo z'umuco nyarwanda wabagaho kera.

Ibiseke harimo igitoya n'ibinini, byabaga ari umuco nyarwanda cyane cyane ku muntu wabaga warashatse umugore cyangwa umugabo, iyo bajyaga kumutura ndetse bagiye kumusura bakitwazamo imbuto.

Abateraniye hamwe bari kwigishwa ibigendanye n'umuco Nyarwanda, imbere yabo harimo ababyinnyi bari kubyina harimo n'abacuranzi kandi hari icyapa inyuma yabo cyanditseho ubuyobozi bw'akarere bwifurije buri wese kuzagira umwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'agatanu.

Abakobwa bambaye imyitero myiza ndetse bakaba bari guseka bari kubyina indirimbo z'umuco nyarwanda kandi imbere yabo hari abantu bateze amatwi bari no kubareba ibyo bakora.

Inzu ndangamurage yabagamo umwami, yabaga yubakishije uburyo bw'ibyatsi, ndetse ifite ukuntu itatse umuryango mwiza uciyemo kabiri n'igiti.

Umuco nyarwanda ni kimwe mu bituma abantu basabana bakishima ndetse iyo ubonye umubyinnyi wateye amaboko hejuru ariho habyina indirimbo za kinyarwanda akenshi abitabiriye barishima cyane bakumva na bo babajyamo bakabafasha.

Abantu bari kubyina ndetse banaririmba indirimbo z'umuco wa kera kandi bakaba bari imbere y'abantu babateze amatwi, bari kubishimira. Ni ahantu mu kirori cy'abantu bakoze, ubukwe.

Ababyinnyi bari kubyina imbere y'abasirikare ndetse n'abayobozi bajye batandukanye. Ni abana bakiri batoya bari kubyina indirimbo z'umuconyarwanda kandi bishimye cyane beza.

Ibiseke bitatu, kimwe n'kinini, ikindi ni gitoya kandi byose byagiraga umumaro umwe wo gutwaramo imyaka ijyanwa ku muntu wabaga warashatse ndetse cyangwa ari ikirori bakagenda bikoreye bamushyiriye ibyo azarya cyangwa ibindi.

lpoto rinini cyane ryohereza amashanyarazi hirya no hino, biteye ahantu mwishyamba kuko ariho hanamye heza cyane babonye ryakwira, ndetse kandi ni rinini cyane.

Umukozi ukora mu bigendanye n'amashanyarazi ariho aregeranya imigozi, ayihuza kugira ngo ibashe kuba yatanga amashanyarazi. Ni imigozi ihuriye ku ipoto rimwe, ikaba ijyana ikanohereza amashanyarazi hirya no hino.

Abatekinisiye bakora ibigendanye n'amashanyarazi bari hejuru ku ipoto barimo barabafata insinga zimwe bazihuza n'izindi kugira ngo bohereze amashanyarazi hirya no hino kugira umuriro w'amashanyarazi ukwire hose.

Umugabo wambaye imyenda y'isarubeti ndetse akaba akora mu kigo kigendanye n'amashanyarazi REG. Akaba yambaye n'ingofero ari kwesitara kashi pawa ndetse anareba ko bikunda kuba yagura umuriro.

Abagabo babiri bambaye impuzankano yaba ingofero, ndetse n'ibisarubeti, bari kubaka urugomero rw'amashanyarazi, mu buryo ari rurerure, bari gukoresha ibyuma, imigozi n'ibindi.

Agasantere karimo ubucuruzi ndetse kakaba gatuwemo n'abantu benshi hari n'ingo nyinshi kagezweho n'amashanyarazi ndetse kandi hari umuhanda w'ibitaka.

Urugomero rw'amashanyarazi, ahantu ruba ruri haba hari insinga nyinshi cyane zicometse ku bimoteri ndetse zikaba zigera mu bihugu byinshi cyane, kugira ngo abaturage baho babone urumuri.

Abakora ibigendanye n'amashanyarazi, harimo abakozi ndetse n'abafasha, bari gukurura umugozi bawujyana hirya kugira ngo bafatishe ku yindi poto. Ni basore b'intarumikwa, bari gukurura bafatanyije.

Ipoto rinini cyane rifite aho insinga nyinshi zinyura kandi ni ipoto rishinze ahantu mu kibaya hafi aho ushobora kureba umusozi wo hejuru cyane.

Imigozi iziritse kuri za moteri zohereza zigatuma habaho amashanyarazi cyangwag se urumuri ziziritse ahantu hari urugomero rw'amashanyarazi ahantu bihurira.

Umugabo uri hejuru ku ipoto, ari guvuza imigozi ijyana amashanyarazi hirya no hino ndetse kandi yambaye inkweto zabugenewe, amapoto ndetse n'ibindi ni byo ahagazeho.

Umukozi ukora mu bigendanye n'amashanyarazi, akaba yambaye igisarureti ndetse na ga mu ntoki. Ari muri moteri yohereza imigozi y'amashanyarazi, ari kubikoramo yambaye n'agapfukamunwa n'ingofero yabugenewe.

Abatekinisiye ndetse n'abayede bari kuzamura ipoto, bayishyira mu cyobo kugira ngo bayifatishe yohereze amashanyarazi hirya no hino ndetse kandi bazirikeho imigozi.

Ibiro by'Akagari ka Ndego, ni inyubako yubakishije n'amatafari ndetse kandi ikaba ifite urugi rw'ubururu n'idirishya ry'ubururu ndetse kandi iyo nyubako yegereye ishyamba.

Umupaka w'ibihugu ni kimwe mu bituma habaho guhahirana kw'ibihugu runaka ndetse kandi bigatuma abantu bamenyana. Ni igishushanyo ndetse n'icyapa kigaragaza ibihugu bibiri, kimwe kijyamo ikindi kivayo.

Inyubako ya leta itangwa kugira ngo yite ku bantu batishoboye kandi iba ari imiryango mike mike, abantu bajyamo ari bane ndetse ikaba ari inzu imwe bajyamo.

Umuhanda munini kandi unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, umuhanda wegereye inyubako zigiye zitandukanye kandi wegereye umusozi munini cyane.

Ikiraro cyubatswe ku nkunga ya leta ndetse kiri ahantu hafi n'imisozi miremire kuko uhava uhita uzamuka mu misozi ndetse iyi misozi ifite amashyamba, ahandi hari imyaka iteye.

Inyubako ya Leta itangirwamo serivisi y'imyidagaduro ndetse abantu baraza bagakina abandi bakaba bari hejuru bari kureba iyo mikino ndetse bakishima cyane.

Inyubako za leta zubatse neza ni amazu yubakishije amatafari ahiye ndetse kandi akaba afite amabati y'umutuku kandi akaba afite ahantu heza ho kwakirira abantu.

Umuhanda mwiza ndetse kandi wa kaburimbo, ukaba wegereye ibikorwaremezo byiza byubatswe ku nkunga ya Leta, hariyo kandi n'amatara amurikira mu muhanda ndetse kandi hari n'amazu meza.

Amazu yubatswe kimwe, akaba ari amazu yubatswe mu buryo bw'icyitegererezo. Afite amabata asa, atukura ndetse yegereye n'umuhanda mwiza wa kaburimbo unyurwamo imodoka.

Umuhanda munini unyurwamo n'ibinyabiziga imodoka, amamoto ndetse n'abanyamaguru, wubatswe ku nkunga ya Leta ndetse kandi ni mwiza uteye ubwuzu, hirya yawo no hino yawo hari imisozi.

Inyubako ndende ziri kubakwa, izindi ziri kugeragezwa gushyirwa mu bikorwa, hari ibibuye, hari amatafari, hari ibiti bari gukoresha, ibi ibyo aribyo byose biregereye.

Ahatangirwa serivisi mu nyubako za Leta ndetse zubatse mu buryo bw'amagorofa, ni ahantu heza ndetse hasa neza, hari ubusitani bwiza ndetse hari uduhanda twiza twinjira mu byumba byaho.

Umujyi munini uzwi cyane nko kugira amazu ndetse n'ibikorwaremezo, amasoko, umuhanda, ugendwamo n'imodoka ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye uyurwamo n'abantu bagenda bajya gushaka iterambere mu mijyi.

Umuhanda wa kaburimbo wubatswe na leta ndetse ukaba uri ahantu hasa nk'ahaterera n'ahamanuka, hari kandi ibiti biteye ku mihanda ndetse kandi n'imyaka igiye iteye impande yawo ndetse kandi hafi yaho, hari amapoto y'amapironi, ajyana amashanyarazi.

Abantu bari hejuru y'ikiraro cy'amazi ndetse kandi kikaba cyarubatswe na Leta, bari kureba uburyo amazi ashunguka, cyubatswe neza kirakomeye kinyuraho imodoka nyinshi ndetse n'abantu benshi ntigihubwe.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi za leta, harimo nko kuba yafasha abantu ku bigendanye n'ubutabazi bw'ibanze kandi akenshi na kenshi ugasanga abantu benshi batatonze umurongo baje kuhashaka serivise.

Inyubako ya leta itangirwamo serivise zigiye zitandukanye; harimo umuntu waparitse moto ndetse iyi moto ikaba ihetse ibintu batwaramo amata.

Umubyeyi uri guturuka ku kigo nderabuzima. Ni inyubako nziza yubakishije amabati y'ubururu ndetse kandi ikaba iteye amarangi y'ubururu. Ni ikigo nderabuzima.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo kandi ari kumwe n'abamurinda kandi bavuye hafi n'amazu yubatswe y'abatishoboye.

Abayobozi n'abakuru b'umutekano ndetse n'abashinzwe ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'akarengane, bateraniye mu cyumba kiberamo inama.

Abagabo b'abanyacyubahiro ndetse n'abagore bari kwibuka abazize jenoside bari kunama ndetse ni hafi y'ishyamba ry'ahantu hari umuhanda bahagazeho.

Umusirikare ufite mikorofoni akaba yambaye imyenda y'akazi akaba ari gutanga amahugurwa, ndetse inyuma yaho hari icyapa cyanditseho Repubulika y'u Rwanda, Intara y'Iburasirazuba Akarere ka Nyagatare bari mu nteko y'urubyiruko.

Umugabo uhagaze imbere y'abandi baturage benshi, bicaye bari kumva ibyo amabwiriza ategeka ndetse kandi bicaye higanjemo abagabo, abagore ndetse n'abandi benshi.

Abantu benshi, bateraniye ahantu hamwe bari munsi y'ibiti kandi higanjemo abakuru ndetse n'abakuze, urubyiruko ndetse n'abana, bari kwigishwa kukigendanye n'uburenganzira bw'umwana kandi no gukuraho akarengane kabaho.

Abanyacyubahiro bicaye mu ihema rinini, ni bagabo ni abagore bose basa neza kandi harimo n'abashinzwe umutekano nk'abasirikare, abapolisi kandi bose harimo n'abari kwandika.

Abantu benshi bateraniye hamwe ndetse kandi bicaye. Imbere yabo hari abayobozi ndetse harimo abapolisi n'abasirikare. Umuntu umwe ari kubigisha ku kigendanye n'uburenganzira bwa muntu no gukuraho akarengane gakorerwa abantu.

Umugabo wambaye neza kandi wambaye n'isaha, ari kwigisha abantu kubigendanye n'uburenganzira bwabo kandi no gukumira akarengane, ni abantu bahateraniye bari kwigisha bari hafi y'ikigo cy'amashuri munsi y'igiti.

Abagabo babasirimu basa neza, bambaye impuzankano, bambaye imipira isa n'ingofero bamwe, kandi bari gukurikira ikiganiro kiri kuba, imbere yabo. Ndetse kandi kiri kuvuga ku burenganzira bw'umuntu, ndetsea no gukuraho akarengane.

Abantu benshi bicaye kandi hakaba harimo n'abashinzwe umutekano n'iperereza nka RIB kandi ku ruhande rwe hari umugabo w'umunyacyubahiro ufite inda nini.

Umugore usa neza wambaye neza, wambaye n'indorerwamo, ari kuganiriza abitabiriye ibigendanye n'akarengane gakorerwa ndetse n'uburenganzira bw'umwana, bakuraho ibigendanye na ruswa haba muri Afurika ndetse n'ahandi hose.

Abayobozi b'abanyacyubahiro bahagaze hafi y'idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'irindi rapo kandi hakaba hari inyubako ndende itangwamo serivisi z'ubutabera n'inshingano z'abana ndetse n'uburenganzira bwa muntu, bari kuganira ku byerekeye iterambere ry'igihugu.

Umuhanda unyurwamo n'abanyamagare, ndetse kandi hari icyapa kigaragaza ko hari abanyamagare banyura kandi icyo cyapa cyegereye ipoto ry'amashanyarazi cyangwa se ipoto rishyiraho urumuri rwo mu muhanda kandi ni hafi y'umuhanda wegereye cyane.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga. Haba imodoka, amamoto, ndetse uwo muhanda ukaba wegereye amazu meza, y'ubucuruzi acuruza ibicuruzwa bitandukanye, kandi niho abantu bacururiza amayinite, ndetse abatanga serivisi za MTN naho baba bariyo.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wagenewe abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga. Hejuru yawo harimo umugabo wambaye umupira utukura.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo ibimenyetso byo mu muhanda, ugaragaza uko abanyamaguru ndetse n'abatwa b'ibinyabiziga bagenda mumuhanda, ni umuhanda urimo amatara, amapoto y'amatara ndetse n'ibindi.

Umugabo uri kunyonga igare mu muhanda munini wa kaburimbo ndetse kandi hafi ye hari umugabo uhagaze na we ugiye gutega igare ariko hafi y'uwo muhanda hari inzu zikorerwamo ubucuruzi kuko ni isantire ikeye, isa neza.

Icyapa kinini kigaragaza aho ishami rishinzwe amashanyarazi rikorera rya Nyagatare. Ni icyapa kiri ku muhanda ahantu banyura ndetse umuhanda wa kaburimbo ndetse kandi hari ipoto rishinzeho amashanyarazi ndetse rikaba rinaka nijoro.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bari kwigishwa uburyo barinda igihugu ndetse batangira amakuru ku gihe, igihe habaye ikibazo icyo ari cyo cyose, aho batuye.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore. Bari gutema ibihuru, abandi basukura bakoresheje amasuka, yo gukora ibintu bigendanye n'amasuku cyangwa se umuganda. Bari gukorera hamwe.

Abashinzwe umutekano nk'abapolisi bambaye inifomo cyangwa se impuzankano z'akazi. Bari guterura ibuye ndetse bari kumwe n'abayobozi basanzwe bandi.

Abantu benshi harimo abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bari gutema ibihuru ibigunda bakoresheje amasuka n'imihoro, Kugira ngo bicungire umutekano, kandi bajye bakuraho imibu iteza ibirwara.

Abari gukora ikizwi cyane nk'umuganda bariho barakupakupa ibyatsi byinshi bitera umwanda bikaba byatuzanira indwara zitandukanye, harimo Abapolisi, Abadasso, ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye.

Imbaga y'abantu benshi higanjemo abantu b'urubyiruko, abakobwa, abasore, bariho bakina umupira ndetse kandi bamaze gukora umuganda wari wabahurije hamwe.

Abashinzwe umutekano harimo abasirikare n'abadaso ndetse n'abaturage basanzwe harimo n'urubyiruko rukorera ubushake bari ahantu mu ishyamba bariho gukupakupa bakora isuku ahantu hameze ibyatsi byinshi bakora isuku.

Umupolisi wo mu muhanda yambaye imyenda y'akazi haba imyenda y'umukara ndetse n'ijiri irimo icyatsi kibisi, ari kwigisha abateraniye aho ngaho kugerayo amahoro igihe bari mu muhanda bakirinda ariko kugenda nabi mu muhanda.

Abantu benshi harimo urubyiruko, abagore, abagabo ndetse kandi bari hafi y'ahantu hubatse ihema, bari mu bigendanye no kwirindira umutekano no kuba ijisho rya mugenzi wawe.

Urubyiruko rw'abakorerabushake ndetse n'urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bari kubumba amatafari bamwe bafite icyondo, abandi bari bari kuvoma. Bambaye imyenda y'akazi nk'urubyiruko rurangije kwiga, ruri gukora akazi ko kubakira abatishoboye.

Abakinnyi ndetse n'abayobozi babashinzwe bari kwifotoreza ku cyapa cyanditseho amarushanwa y'igikombe cy'umurenge, ndetse kandi kiravuga ngo twimakaze imiyoborere myiza duharanira ko umuturage aba ku isonga.

Abasore b'intarumikwa bambaye impuzankano ya siporo ndetse kandi bari kumwe n'abandi hirya yabo baje ku bafana; bakunze gukina umukino w'amaguru cyane cyane uzwi nko gutuma abantu batakaza ibiro.

Urubyiruko rw'abasore rwambaye impuzankano z'amajezi zisa bahagaze bari kwifotoza ndetse kandi bamaze gukina umukino wari wabahuje bari kumwe n'abatoza batambaye impuzankano.

Abakinnyi bari gukina mu kibuga, abahanganye n'abakinnyi bambaye amajezi y'ubururu ndetse n'abandi bambaye ay'umuhondo bari mukibuga kigari bari kwiruka birukankana umupira abandi bawufata bakomeza.

Urubyiruko rw'abasore bari mu kibuga bariho barakina, bari gukina umupira ndetse bambaye n'amajezi ndetse kandi bari ahantu mu kibuga gifite ubwatsi bwiza.

Imodoka ya polisi ikura abantu mu nzira. Iri mu muhanda wa kaburimbo kandi ni mu masaha ya nijoro. Inyuma yayo hari abari kwirukanka, bari mu myitozo ngororamubiri siporo.

Abakobwa bari gukina mu kibuga, bambaye imyenda itandukanye. Harimo uwambaye imyenda nk'iya rayon sports ndetse n'uwambaye imyenda nk'iya APR

Ikibuga kiri gukinirwamo n'amakipe abiri atandukanye, bamwe bambaye ubururu, abandi n'umweru n'umutuku ndetse kandi ni abasore bari gukinira mo aho.

Abakinnyi bari kuza mu kiruhuko ndetse kandi babiri bari muri stade, bari kwireba uburyo ki bameze kandi nyuma ya hari abandi bicaye ku ntebe z'abasimbura.

Abakinnyi bambaye impuzankano z'abakinnyi bafite icyapa nk'ikimenyetso cy'uko bari bari mu marushanwa y'umurenge kagame Kapu, kandi bafite insanganyamatsiko yo kwimakaza imiyoborere myiza baharanira ko umuturage ahora ku isonga.

Abakinnyi bari gukina mu kibuga harimo umugabo munini ufite n'inda wambaye amajezi y'umuhondo ndetse harimo n'undi wambaye amajezi y'ubururu.

Abari gukora imyitozo ngororamubiri bambaye imyenda yayo harimo Mukura ndetse n'ikipe yindi yambaye ubururu, bari muri sitade nkuru, kandi harimo umufana umwe n'aba sekirite bari kubacungira umutekano

Abantu bari kureba umupira uri kuba ndetse bakaba ari urubyiruko rwinshi ndetse n'abantu b'abasirimu bicaye ahantu heza. Bicaye ku ntebe zirebwaho umupira.

Abamotari baparitse hafi ahantu hatangirwa serivisi zigendanye n'imidugudu ndetse kandi hakaba hapave amabuye, kandi n'atangirwa serivisi z'abantu baba bahaje kuhafata, ikindi kandi ni inziza isa neza.

Umuhanda mwiza ugendwamo, kandi ni umuhanda w'amabuye. Harimo abagore babiri bariho bawugendamo, bari kugenda hafi y'ahantu hatangirwa serivisi zigendanye no gukora intebe n'ibindi.

Umwijima utabona cyane. Ni umuhanda umurikiwe n'amatara yo kumuhanda hakaba habona neza cyane. Abantu bari kugenda ndetse n'ibinyabiziga biri kugenda habona neza.

Abagore babiri bari kugenda mu muhanda w'ibitaka ndetse kandi bakaba bagiye kunyura ahantu hari ishyamba ndetse kandi iryo shyamba ni rigari ni rinini rifite ibiti birebire.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, ndetse kandi harimo umugabo uri ku igare ari kuri nyonga, ndetse n'umuhanda wegereye inyubako z'ubucuruzi zicuruza ibintu bigiye bitandukanye, imbere y'aho hari imitaka ya MTN.

Utuyira tw'abanyamaguru tugenda twikatakata ndetse hari ukunyura mu byatsi, ukagenda ugatungukira mu rugo kandi ni ahantu hari amabuye, imicanga n'ibindi.

Utuyira duto duto tunyuramo ibinyabiziga nka moto, amagare ndetse kandi n'abanyamaguru, ugasanga bari kutunyuramo. Nta modoka ijya inyuramo kuko tuba ari uduhanda duto duto.